Ni umugabo imbere ye hari ikirahure kimwe afashe icupa ,yambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikijuju yambaye aga karuvati ka ne, ndetse inzu arimo iteye irangi ry'umukara n'amatafari ateye irangi ry'umukara.

Akabari kakaba karimo intebe zisa ndetse n'utumeza , kakaba gacuruzaga inzoga ndetse n'ibindi bitandukanye hari amazu ari imbere yayo afunguye, kandi aka kabari kakaba kinjizwagamo n'abantu batandukanye.

Ahantu bocaga inkoko ndece n'ibirayi, bikaba bimeze neza kandi bakaba babyokeje, bikaba biboneye cane. ibi rero bakaba bitekakwaga muri resitoro cyangwa se muri bale.

Akabari bakaba bacururizagamo inzoga. Hakaba hari umugabo uhagaze kuri kontwara ari kubaza ibyo kunwa. Kandi hakaba hariho intebe z'umutuku, n'utumeza tw'umutuku, aho abantu bicara bakaganira bari gukora inama cyangwa se ibindi bintu.

Isahane iriho ibijyo iriho ifi, umuceri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Hakaba hari kamagi hejuru bikaba biri ku gasahani k'umweru, agasahani kakaba gateretse ku meza nziza cyane.

Akabare bacuruzagamo inzoga ndetse abantu bahuriramo bakaganira ibintu by'ingirakamaro, aka kabare rero kakaba karimo amatara ari gucana atandukanye amatara ya kijambere.

Iyi ikaba ari bare, bare bakaba bacururizagamo ibintu bitandukanye ari ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hakaba hari udutebe abantu bicaragaho kugira ngo babashe kujya neza ibijyo byabo ndetse n'inzoga zabo.

Burushete nziza cane zihiye zikaba ziri ku isahane , aho zitegereje abantu ngo bazirye kuko ziraryoshe cane kuko zimeze neza cane.

Iyi kakaba ari akabari abantu barakajagamo kugira ngo bajye gufata ibyo kurya nk'inyama, burushete, ndetse bakajya no kunywamo inzoga ndetse na fanta, ndetse bakaba banakoreramo ibirori.

Abo ni abahanzi, ni abahanzi cyangwa se bande iririmba umuziki, iri guceza cyangwa se gukata umuziki, mu kabari, mu birori ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye.

Butike bacuruzaga ibintu byinshi bitandukanye biri mu dukarito. Iyi butike ikaba ifite imigozi iri kwerera ndetse iyi butike ikaba yuzuye, nyirayo akaba afite amafaranga menshi.

Inzu ikorerwagamo ubukanishi aho bakanika, televiziyo , telefone, keto ,radiyo, ipasi, na raronje. Aha hakaba hegereye umuhanda kandi hari n'icapa kiri kubigaragaza.

Butike y'ubucuruzi，iyi butike ikaba iriho amafoto ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga. Iyi butike rero abantu bakaba bayiganaga， baza gushakisha serivisi zitandukanye kandi ikaba iri mu nzu nziza.

Butike cangwa se farumasi icuruza imiti y'amatungo, ikaba yitwa ibigwi farumasi ikaba ishushanyijweho inka n'ingurube, mu muryango harumu umugore, mu wundi muryango hari umwana kandi imiryango yose irafunguye.

Insinga z'amashanyarazi ziri mu kirere ndetse n'igiti ku ruhande kiri hafi y'injira. Abantu bari kunyuraho kandi hari iduka ricuruzaga ibintu bitandukanye.

Abacuruzi b'imyenda b'abagore batatu nyine basa nkaho bari gucuruza imyenda, ndetse n'abana bari kubagurira cyangwa se kubateza imbere, bari gukorera mu nzu za kijyambere.

Aha biragaragara imodoka z'abayobozi. Imodoka z'abayobozi zaparitse kuri Gorila, Gorila tekisingi gesite hawuzi resitobare. Izi modoka zaparitse bashobora kuba bagiye kurya.

Igipangu c'amabuye kikaba canditsweho guta rezoti. Ahantu abantu basohokera kugira ngo bishimishe, hakaba hari n'indabyo ku uruhande zituma hasa neza kandi hakabonera.

Butike irimo imifuka ya kawunga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'amasabune. Ikaba iri ku makaro yamenetse, yasaje, kandi hariho n'ibindi bintu muri iyi butike byinshi.

Iryo risa nkaho ari iduka, haragaragara umunyu; imyunyu nk'umunani udufuka tw'umuceri harimo: umutanzaniya za pakisitani ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bacuruza.

Imipira ya baro iri mu gakarito, agakarito gateretse ku makaro. Iyi mipira bakaba bayikina, kandi aha iri akaba ari muri butike, kandi bakaba bategereje abakiriya bo kuyigura.

Aho biragaragara nk'aho ari inzu z'ubucuruzi, umumotari agiye gucuruza ibintu bigiye bitandukanye bitewe n'iduka uko rikora, biragaragara nk'aho ryubakishije amakaro.

Iduka ririho icapa bakaba bacuruza ibintu bitandukanye harimo inzoga ndetse n'ibindi bintu, hariho telefone kuri ico capa hasi, kandi iri duka rikaba riherereye kinigi ku kiranguzo kwa Simiyoni.

Inzu yanditsweho Sikoro. Imbere yayo hari umu ajenti utangaga ama inite, na mobayiromani kubikuraho amafaranga. Hejuru y'iyo nzu hari amashanyarazi imigozi itambitse.

iyi biragaragara nk'aho ari kampani y'itumanaho bamamaje. Ni eyateli. Basize irangi ku nzu kugira ngo bamamarizeho kampani yabo nyine babone abakiriya ku bwinshi.

Aha handitswe ngo hayimagisi Musanze buranshe, aha bishobora kuba ari iduka n'ubundi kuko hariho nimero zabo za telefone, imiryango irafunguye, mbese ni umuntu ufite ucuruza ibintu bya hayimagisi.

Resitora ihagaze abantu imbere bafite amagare ndetse n'imodoka iri guturukamo. Ikaba yanditsweho Golila puleyise, akaba ari resitorat abantu, abakerarugendo ndetse n'abandi bantu bakoresha mu kujya kwiyakira.

Cipusi arimantasiyo ikaba icuruzaga inzoga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ikaba iherereye i Musanze mu Rwanda. Ikaba ari iya Nema, hakaba haparitse imodoka ku muryango.

Rikaba ari isoko, bakaba bacuruzaga udukapu n'uducupa tw'amazi, ibisorori, amashafuriya. Iri isoko rikaba ryubatse mu mu buryo bwa kijambere, hakaba hariho umuntu uri imbere y'umujyango, ashaka kwinjira mu kujya kugura.

Iri ni iduka rifunguye， bari gucuruza amakuvurori ndetse n’amabase n'indobo，kandi imbere yaho bahaparitse akagare ndetse n'intebe， aha hantu bigaragara y’uko zihacururizwa.

Inzu bacururizagamo yitwa Kayitare Gesitehawuzi ifite icapa kiriho na nimero za terefone, inzu yubakishijwe amatafari ahiye, inyuma yaho hakaba hari igiti ca voka.

Hoteri itangaga ibyo kujya bitandukanye bakaba bayitaga laparume ni hoteri iherereye mu mugi wa musanze aho itangaga amacumbi ndetse n'ibyo kujya ku hantu hatandukanye

Inzu bakoreragamo ubucuruzi, imbere yaho hari umutaka wa emutiyeni kandi iyi nzu ikaba ifite udufuka bapfunyitse bari kugere aho abantu k'umyunzani.

Amapave ari ku muhanda akaba akomezaga inzu. Hariho urumuri ruri kuyerekana neza hirya yaho hari umwijima. Aya mapave rero akaba atuma abantu bagenda neza.

Inzu z'ubucuruzi za butike, zikaba zifunze zikaba zifite imiryango isa, imbere yaho hari amapave ndetse n'imodoka ihaparitse, izi nzu kandi zikaba ziteye irangi.

Inzu y'ubucuruzi bakaba bacuruza ikawa ndetse n'ibyo kurya, ikaba ifite senyenge, amabati y'umutuku, ndetse n'ikindi catsi kiri guhinguka hejuru ku mabati ndetse n'indabo.

Hano haragaragara intebe, iduka bacururizamo, umutaka wa emutiyene, isengeri ya emutiyene, gaze ndetse n'amazi ya jibu ;amazi ya jibu aminini n'amato.

Butike icuruza ibintu bitandukanye，harimo intebe， utumeza ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyi butike rero hasi ikaba ifite amakaro， ndetse n'ibibambasi byayo bikaba bimeze neza.

Inzu y'ubucuruzi ikaba ikinze, ikaba ifite amabara menshi ku rubaraza rwayo. Ikaba yanditsweho hasi kuri fondasiyo Welikamutuvembura hembuka ndi ingazi yawe. Rero, abantu bakaba bayigana mu gihe yafunguye ikabakemurira serivisi zitandukanye.

Iki ni icapa icapa kikaba cyanditsweho ngo Amahumbezi gesite hawuze ndetse na telefone. Igipangu kiriho ibyatsi hejuru kandi kirasa neza. Bigaragara yuko ikirere kimeze neza cane.

Iyi ikaba ari butike, inzu ikorerwagamo ubucuruzi cane abantu barayiganaga kugira ngo bagureho ibintu byinshi bitandukanye , bityo rero bakabaho neza ndetse n'ubuhahirane bukiyongera.

Iduka ry' bucuruzi ririho akazu ka eyatele batangiragaho amayinite. Bacuruza icayi, capati ,ibitoki n'ibishyimbo, ndetse n'imvange, ikaba yitwa Peyinikila alimantasiyo.

Aho ni ahantu bacuruza. Bacuruzaga imashini zidoda, intebe, harimo ibyuma by'umuziki bacurangaga, ndetse na tapi. Uhagiye nyine yahasanga ibyo bikoresho.

inzu icuruza ibitambaro bikaba bimanitse hanze. Imiryango yayo irafunze kandi imbere y'iyi nzu hari inzira abantu bacamo kugira ngo bagere kuri iyi nzu. Iyi nzu rero ikaba imeze neza kandi abantu bakaba bayigana.

Inzu y'ubucuruzi ifunguye imiryango, ifite umuryango w'ubururu, ikagira n'irangi ry'ubururu n'icatsi, hejuru yayo hari itara ndetse na tiriperegisi n'insinga zinjira mu nzu.

Uyu ni umuntu uranguza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, biragaragara ko ari iduka rikaze afite. Ya! ni ibyo biri mo, aranguze ibicuruzwa bigiye bitandukanye, afite.

Iyi nzu iragaragara nk'aho ari etaje ariko y'umuturage. Noneho abacuruzi bakagenda bayikodesha kugira ngo bacurururizemo cyangwa se banaturemo. Ubwo ni inzu ya etaje.

Aho ni ahantu bigaragara nk'aho bakoreraho intebe ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, nk' ameza amadirisha, cane cane bashobora kubicuruza cyangwa se bakabikora igihe kimwe.

Inzu y'ubucuruzi ikaba iriho amakoti amanitse hakaba hari n'itara riri kurebari ku muryango, uwo muryango wanditsweho zeru kane ubwo hari n'abantu bari impande y'iri duka, kandi muri iri duka harimo n'inkweto.

Icapa kiri hejuru cane canditsweho fogi gesite hawuze, ndetse kinashushanyijweho igitanda, ndetse na nimero za telefoni kikaba gifashe ku nzu, kuri uwo muryango w'iyo nzu hakaba hahagaze umugabo.

Inyubako isa nk'aho ari iy'ubucuruzi, haragara amasima, umuntu ufashe akadobo k'umutuku ndetse ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ubwubatsi ndetse n'akagare.

Butike irimo amakarito asa. Aya makarito akaba ameze neza cane, akaba yanditsweho diyamonde bayisiko tube. Akaba ari ibikoresho bakoreshaga mu magare, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ayo ni amacumbi. Amacumbi abantu bacumbikamo . Ni amacumbi abantu bacumbikamo bakishyura amafaranga buri joro. Uko arayemo akishyura amafaranga.

Iduka ry'ubucuruzi rikaba ririmo ibikoresho bakoresha mu matelefone, epushete, sharijeri ndetse n'ibindi byinshi. Hakaba harambitsemo akagare ndetse hari n'intebe ku muryango.

Amagare menshi amanitse ku giti, abakanishi barimo gukanika barimo kuyakanika ndetse n'abantu basa nk'aho baje kuyagura. Iri ni iduka ry'amagare ndetse n'icyuma giteye irangi ry'umutuku.

Uhh iyo ngiyo ni imyenda ,ni ibikoresho byifashishwa cyane cyane mu kwiyorosa, ibiringiti ,ndetse n'abantu babicuruza bari mu isoko ehh ushobora kubitanga ku giciro kigiye itandukanye.

Isoko isoko rikaba ari iry'ubucuruzi, hakaba harimo: amashujipe, bokisa, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye: nk'udufuka n'ibindi bintu, hakaba hari abasaza bicaye bigaragara yuko aribo bari gucuruza ibi bintu.

Inzu y'ubucuruzi. Iyi nzu ikaba ifite amakaro hejuru. Ikaba ifite n'imijyango. Imijyango ikaba iriho amarido y'imyenda. Bigaragara yuko aha hantu bahacururiza kandi batanga serivise.

Ishushanyijweho inyama ikaba ari butike bacururizaho. Kandi ikagaragara yuko iri muri etage, iyi resitora rero imeze neza kandi itangaga ibintu bimeze neza.

Inzu y'ubucuruzi ifite irangi ry'umuhondo, akagira amabati y'amategura, akagira imodoka ku uruhande rwazo, hakagira naho abantu batangira mitiyu kandi ni mu kirere cyiza cyane.

Iyo ni hoteri iri mu mashyamba. Iyi hoteri ikaba irimo ibiti ndetse bimwe bita imigano. Hoteri ikaba ifite inzira cyangwa se umuhanda wa kaburimbo abantu banyuramo n'imodoka zicamo.

Amashami y'igiti cy'umukindo ndetse n'inzu zubatse kijyambere zifite amabati meza cyane arimo: ay'umukara ndetse nay'umutuku, ikirere gisa nkaho kijimye.

Aragaragara nk'aho ari umugabo wicaye mu itente rya Henikeni. Yicaye ku gatebe . Hari akameza hari akameza hirya hari imbere hari ibintu bya tapi. Umugabo wambaye inkweto z'umukara ndetse n'agashati ka karo karo.

Inzu ifite pisinine na antene parabolike hejuru. Iyi nzu ikaba ifite amabati akomeraga cane, kandi iyi nzu ikaba iteye irangi, bigaragara yuko ahantu ari heza.

Isoko ririmo imineke, wotameroni ndetse n'amapapayi, isoko rikaba rimeze neza kandi rikaba rihagazemo abagurisha b'izi mbuto.

Isoko bacururizamo ibintu byinshi ibikapu ndetse n'amabase n'ibindi bintu bitandukanye umugore akaba ari kuri camo ashakashaka ibyo akeneye kugira ngo abigure.

Iyi ni isombe bafunze mu mifungo. Isombe bafunze mu mifungo, ndetse biragaragara nk'aho bayikoreye amasuku nko kuyoza ubwo ikirakurikiraho ni ukuyisekura.

Isoko bacururizagamo indobo ndetse n'ibikosi by'ibirahure bikaba bimeze neza kandi bikaba bisa neza abakiriya bakaba baraza kubigura, ndetse bacuruza n'ibiyiko n'amafurushete.

Ici ni igifenesi. Iki gifenesi cikaba kijyoha. Bakunze kubihinga mu ntara y'iburasirazuba, kikaba cyera nka voka hejuru.

Aha ni mu isoko aho bari gucuruza caguwa z'imyenda, kandi hari n'inkweto na zo ziri gucuruzwa zikaba zirambitse ku bifuka, ibi rero akaba ari mu isoko bakaba bari kubicuruza hanze y'isoko.

Isoko bacururizagamo ibintu bitandukanye, amaji ndetse n'ibyo kurya. Imbere ya ho hari imitaka bacururizagamo mituyu, ndetse n'abantu bari kuza guhaha ndetse n'abacuruzi ba ho.

Abagore bari gucuruza imigati bakaba bari kubi bicururiza mu bibase ndetse no mu ndobo umugore akaba afashe umwana akaba yiteye n'umutaka bikaba bategereje abakiriya ngo baze babigure.

Isoko riri hanze, hakaba hari amasafuriya, hakaba bahacururiza n'amasogisi n'ibindi bintu bitandukanye by'imyenda. Iri soko rero rikaba rihuriramo abantu batandukanye abari kugura n'abari kugurisha.

Inzu y’ubucuruzi, ikaba ari isoko, ikaba iteretseho ibigega ku ruhande rwaho hari abantu bari kugenda, ndetse n’amatara ku muhanda acaniraga iri soko, ndetse n’abagenzi bari kugenda.

Umunzane wa kinyarwanda ukoresha amabuye, hakaba hari n'undi munzane inyuma yawo w'isahane. Imyunzane ikaba ikoreshwa n'abacurukuzi, kugira ngo bapime ifu n'ibindi bintu bacuruza by'ibiribwa.

Imifuka iri mu isoko iteretse ku bisima, hari umunzani ndetse n'amavuta, iri soko rikaba ari irya kijambere rikaba rimeze neza cane kandi iri soko rikaba ryubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Bodaboda ziri mu ishoko zikaba ziri hanze umugore azicayeho akaba ari kuzicurusha hari n'abandi bantu bahagaze imbere yaho bari mu ishoko bigaragara yuko baje kugura ibintu bitandukanye ku ruhande hakaba hari na silipa.

Iri ni isoko gakondo. Isoko gakondo abantu bacuruzamo imyenda. Eh! Cane cane caguwa. Biragaragara nk'aho ari mu misozi ya za Gakenke cyangwa Rulindo cyangwa Gicumbi eeh! Haba imyenda ihendutse cyane.

Isoko ricuruzaga imboga ndetse n'ibindi byinshi, hari amatirimusi arimo ndetse bamwe bafite abana aho bari kugurisha abandi bakagura ibyo kurya.

Iduka ririmo amavuta, amavuta yo mu tudomoro ndetse n'amavuta yo muri parasitike hepfo yawo hakaba hari ibindi bigaragara bacuruza iri duka bikaba bigaragara yuko ari jyiza.

Iri rikaba ari isoko rikaba ririmo bodaboda, ibikoresho nk'amabase , ibisorori , udukombe n'ibindi byinshi iri soko rikaba ari irya kijambere abantu bakaba barikoresha kugira ngo bahahe.